Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru uri kwireba mu ndorerwamo, uri gusukura amenyo yifashishije uburoso bwabugenewe n'umuti wabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, arinda amenyo ye kuba yabora.

Umugore wambaye agapira k'umukara, kanditseho amagambo y'umweru n'ikabutura y'umukara n'urukweto rw'umukara hasi akaba ari umweru, uri gukora imyitozo ngororamubiri mu nzu, kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.